Ifumbire mvaruganda iri mu bwoko bwa DAP aho yifashishwa mu gushyirwa ku bigori ndetse n'indi myaka kugira ngo bibashe gukura neza kandi bitanga umusaruro mwiza. Ni byiza ko dukoresha iyi fumbire mvaruganda.

Imiti yifashisha ivura amatungo, aho biba ari byiza, iyi miti kwegereza aborozi kugira babashe kugura imiriti ivura amatungo, maze amatungo yabo abashe gukura kandi abashe no kurwanya indwara zitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, kirimo n'imiti itandukanye ndetse kirimo n'umwayi w'imbuto, aho harimo imiti yifashishwa kuba yavura inyamaswa ndetse n'imyayi itandukanye yifashishwa mu bihingwa kugira ngo bahinge.

Umuntu ubona ko ari kwita ku nyanya, aho ari kuzitera umuti azirinda udukoko, kugira ngo zikomeshe kumera neza, ni byiza ko twita ku nyanya tuzitaho, tuzitera, umuti kugira ngo zikomeze gukora neza kandi zitange umusaruro.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye harimo amarozwari, imiti itandukanye ndetse n'imyayi yifashishwa n'abahinzi ndetse n'imiti yifashishwa ku borozi b'amatungo, ni byiza ko ino miti yegerezwa n'ibi bikoresho bikegerezwa abaturage ndetse n'abahinzi n'aborozi.

Ibigori biba byatunganyijwe kugira ngo bihingwe, ni ibigori biba byatoranyijwe kandi bikitabwaho neza kugira ngo bizabashe guhingwa kandi bitange umusaruro ushimishije. Ni byiza ko dukoresha ibi bigori bya hybrid.

Ahantu bacuruza imiti itandukanye y'inka ifasha mu kuvura inka ndetse n'imyaya itandukanye, yifashishwa gushyira ku bihingwa ndetse n'imiti itandukanye ishyirwa ku bihingwa ndetse n'imyayi iterwa kugira ngo abantu biteze imbere.

Umuntu ubona ko acuruje imiti itandukanye, harimo imyayi. imiti iterwa inka ndetse n'ishyirwa ku matungo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa ku matungo ndetse no ku bihingwa, ni byiza ko tugezaho abahinzi n'aborozi imiti itandukanye bifashisha.

Abantu ubona ko bari gupakira ifumbire kugira ngo bayijyane mu mirima, maze babashe gufumbira ubutaka bwabo, maze buzabashe kwera, ni byiza gukoresha ifumbire igihe cyose tugiye gutera ibihingwa, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije.

Icyumba ubona gicururizwamo imyayo itandukanye yifashishwa mu gutera, mu buhinzi ndetse n'amarozwaro yifashishwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'impeshyi cyane cyane, cyangwa imbuto zatewe vuba.

Ifumbire ni ingirakamaro ku butaka ndetse n'ibintu duhinga, ni byiza ko dukoresha ifumbire cyane cyane iyo tugiye guhinga ibihingwa bitandukanye kugira ngo tubashe kwiteza imbere kandi ibihingwa byere vuba kandi byere umusaruro uhagije.

Ahantu ubona bagurisha imyayi y'amashu ndetse n'imyayi ya karoti, aho bifashishwa kuba batera abantu bakabasha kwiteza imbere harimo n'imyayi y'ubutunguru, ni byiza ko ino myayi ishyikirizwa abahinzi kugira ngo bahinge.

Ahantu hari inshinge zitandukanye ziterwa inka ndetse n'indi miti itandukanye yifashishwa mu kuvura inka, harimo n'amapomba yifashishwa mu gutera imiti ibihingwa, ni byiza ko twita ku matungo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Ahantu hacururizwa imyayi itandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira ndetse n'ibinini byifashishwa ku matungo, niyo mpamvu abantu bakwiriye kugana aha hantu kugira ngo bafate imyayi itandukanye yaba iy'ubutunguru, karoti ndetse n'indi myayi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira.

Ifumbire n'ingirakamaro ku butaka aho yashyizweho neza mu murima kugira ngo ibashe gufasha ibihingwa kuba byakwera neza kandi bigatanga umusaruro, ni byiza ko dukoresha ifumbire igihe cyose tugiye gutera ibihingwa.

Icyumba kirimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inka ndetse n'indi myayi yifashishwa mu guhinga, ni byiza ko amatungo tuyitaho kugira ngo ahabwe imiti uko bikwiye ndetse n'ishinge uko bikwiye kugira ngo abeho neza.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye harimo amatungo y'inka, ndetse harimo n'imiti ivura inka ndetse n'andi matungo, ndetse n'imbuto zishobora kwifashishwa zihumbikwa kugira ngo zibashe gufasha abantu kwiteza imbere.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa; bihingwa neza cyane kandi bikera, ariko bisaba ko byitabwaho kugira ngo bigire umusaruro mwinshi, kandi bikaba bizwiho gutera imbaraga, kandi bikaba ari ibiryo byiza igihe byatetswe neza.

Icyumba bacururizamo imiti itandukanye, harimo imiti ivura amatungo ndetse n'indi miti itandukanye aho yifashishwa kugira ngo ihabwe amatungo ndetse n'indi ikoreshwa ku bihingwa.

Ahantu ubona ko hatangirwa imiti ndetse n'ibindi bihingwa byose byifashishwa mu guhinga, kugira ngo abantu babashe guhinga ibintu byiza, kandi n'aborozi bahabwe imiti ibafasha kuvura inka zabo.

Umubyeyi ubona ko acuruje imiti itandukanye, harimo iy'amatungo ndetse n'iy'ibihingwa kugira ngo abantu bakomeze kugura imiti maze bite ku matungo ndetse n'ibihingwa maze byose bibashe gutanga umusaruro.

Ahantu harimo imiti itandukanye, aho yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse akabasha kwitabwaho kugira ngo akire. Ni byiza ko amatungo ahabwa imiti itandukanye haba ayayifasha kuba yakura neza kugira ngo abashe gutanga umusaruro mwiza.

Umuntu acuruje imiti itandukanye y'amatungo ndetse n'iy'ibihingwa kugira ngo amatungo abashe kubaho neza aba ari arwaye inzoka ndetse n'atarya neza agabasha guhabwa ibivuguto ndetse n'imiti itandukanye ihabwa ibimera igihe bitameze neza.

Ahantu ubona bacururiza imiti itandukanye ndetse imbere yaho hari agapapuro n'agakaramu, ni byiza ko twegereza imiti itandukanye amatungo ndetse n'imyayi ku bihingwa kugira ngo abantu babashe kubaho neza.

Urutoki ni kimwe mu bihingwa byiza cyane aho bitanga umusaruro ushimishije kandi ibitoki bivuyeho byifashishwa mu gukora inzoga bimwe bikaribwa, ni byiza ko twita ku rutoki turusasira kandi turuha ifumbire ihagije.

Ni byiza ko ibigori bikiri mu murima bikiri bito, bibasha kwitabwaho biterwa umuti kugira habe hakwirinda indwara nka nkongwa ishobora gufata ibigori igatuma bidakura neza, ni byiza ko ibigori biterwa umuti kandi bikitabwaho uko bikwiye.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu aho kigira umumaro mu gutanga amafaranga menshi, aho cyoherezwa hanze kugira ngo gitunganye havemo icyayi ni byiza ko abantu duhinga icyayi kuko tukanahinga ikawa kuko ari ingenzi mu buzima bwacu.

Imbuto zitandukanye harimo ikawa ndetse n'izindi mbuto ubona ko zateruwe zigiye guterwa ahantu, ni byiza ko dutera ibiti bitandukanye kuko bigira uruhare mu gufata ubutaka bikarwanya isuri kandi bigatanga n'umwuka mwiza duhumeka.

Ibinyomoro ni kimwe mu bihingwa byiza cyane ariko bisabwa kwitabwaho kugira ngo byere neza, ni ngombwa ko tubyitaho tubigirira ifumbire ikwiriye kandi bikabasha gukura neza bitanga umusaruro.

Amashu ubona ko atitaweho neza, ari na yo mpamvu ateze neza. Ni byiza ko amashu yitabwaho agaterwa umuti, umuti ushobora kwica udukoko tuyangiza, kandi akabashwa no kuvomerera kugira ngo abashe gukura ameze neza.

Ibirayi ubona biri gukura neza, ubona ko byitaweho kandi byatewe ku murongo bikabasha gusukirwa kandi bitewe neza cyane, byahawe ifumbire ihagije, ni byiza ko twita ku birayi igihe cyose tugiye kubitera kandi tukabikurikirana kugira ngo bitange umusaruro ushimishije.

Ahantu ubona ko hahinzwe ibishyimbo, ariko hatafumbiwe, ni byiza ko ahantu hategwa neza, kugira ngo ubutaka bube butatwarwa, kandi hahingwe ibishyimbo habanjije gufumbirwa, kugira ngo ibishyimbo bibashe gukura neza kandi bitanga umusaruro.

Urutoki rwa kijyambere ni ngombwa ko rwitabwaho, rusasirwa kandi hashyirwamo ifumbire ihagije, rukabasha kwitabwaho kugira ngo rudafatwa n'indwara z'ibyorezo, kugira ngo rubashe kuba rwatanga umusaruro maze uwaruhinze abone inyungu.

Ipapayi ni imwe mu urubuto rwiza cyane, aho rufasha mu bice by'umubiri kuba byarinda indwara kandi iyo cyariwe neza gishobora gufasha umubiri mu mikurire y'umuntu.

Byiza ko tubungabunga ibimera ahantu biri hose, cyane cyane ibirimo nk'ibivamo ibiribwa harimo, nk'indimu ndetse n'urutoki rushobora kuduha ibitoki twifashisha dukoramo ibintu bitandukanye, tubungabunge ibidukikije dusigasira amagara y'ikiremwamuntu, kuko ari ingirakamaro.

Ibiti ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko bifasha igihe abantu bari gushaka umwuka bahumeka, aho binarwanya isuri kuba ubutaka bwatwarwa, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije.

Ibirayi ni byiza ko byitabwaho kugira ngo bibashe kuba byakwera neza aho bisukirwa kandi bigaterwa n'umuti kugira ngo ubukoko bukunze kubirya butabyibasira, maze abantu babone umusaruro uhagije.

Umurima ubona umeze neza koko, urimo ibigori ubona ko bimeze neza ariko biba bikwiye ko byahabwa ifumbire kandi bigaterwa umuti kugira ngo hirindwe ko byafatwa na nkongwa kugira ngo bikomeze gukura neza.

Imiyenzi ni kimwe mu biti byiza kandi byingirakamaro, kuko bivamo imiti itandukanye kandi byifashishwa mu gutera hagati y'imirima n'indi nk'imbibi, ni byiza ko tubungabunga ibi bidukikije.

Ibigori ni byiza ko byitabwaho kugira ngo bikomeze kugira umusaruro mwiza, aho bisukirwa bigashyirwaho imvaruganda ndetse bikaba byatewe hakoreshejwe imborera ndetse n'imvaruganda kugira ngo bikure kandi bitange umusaruro, aho bikomeza kwitabwaho bibagarwa kugira ngo bitange umusaruro mwinshi.

Ikibaya ubona ko kirimo umuceri mwiza, ni ngombwa ko twita ku muceri kandi tukawugirira isuku kugira ngo ubashe gutanga umusaruro, kandi natwe tubone inyungu zivuye muri uwo muceri maze tubashe gutera imbere.

Inyanya ni kimwe mu gihingwa gisaba kwitabwaho kigaterwa umuti kandi kikabasha kwegurwa kugira ngo kitaryama hasi, aho iki gihingwa iyo kiryamye hasi gishobora kuba cyabora cyangwa nticyere neza.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, aho cyifashishwa cyane mu kohereza mu mahanga kandi kigatanga umusaruro w'amafaranga menshi, aho iyo wacyitayeho cyera neza kandi kikera ikawa nyinshi.

Ahantu mu gishanga hakwiye gucukurwa ibinogo bifata amazi kugira ngo byirinde ko amazi ashobora kujya mu butaka, bityo hakaba haba ibintu bitari byiza mu butaka cyangwa bukaba bwatwarwa. Ni byiza guca imiyoboro itwara amazi neza mu butaka igihe ari mu kabande hari amazi menshi.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, aho gitanga amafaranga menshi ku bagihinze, ni byiza ko cyitabwaho kandi kigasarurwa neza kugira ngo gikomeze gutanga amafaranga, maze abantu biteze imbere.

Ni ngombwa ko twita ku nyanya tuzisasira kandi tuzishingirira igihe zazanye imbuto nyinshi kugira ngo zibashe kwera, bityo zitange umusaruro uhagije natwe tubone amafaranga avuye mu nyanya.

Ibigori ubona ko byubatse neza kandi bimeze neza, ubone ko byafumbiwe ku buryo biba bifite igikuriro cyiza, ni byiza ko ibigori byitabwaho kandi bigakomeza kubona ifumbire ihagije, ndetse no gukomeza gukurikiranwa.

Ibitoki byeze neza ni ingirakamaro, aho usanga bikorwamo inzoga ndetse bigakorwamo ibintu bitandukanye, ni byiza ko twita ku rutoki kugira ngo rugire umusaruro ushimishije, aho hashyirwaho ifumbire y'imborera kugira ngo rubashe gukura kandi rukabasha kwisasirwa no kwitabwaho.

Urushinge ruterwa inka igihe ifite ibibazo bitandukanye ndetse n'izindi nyamaswa harimo nk'ihene ndetse n'izindi nyamaswa, ni byiza ko inka igihe yagize ikibazo ihabwa uru rukingo kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyoni ni igitangaza kuko utayisanga n'ahandi kuko iri mu bwoko bw'inyoni ikaba iguruka kandi ikaba yororerwa mu rugo kuko ikunze gukurura abantu baje kureba ubwiza bwayo kandi ni ingirakamaro kuko itanga n'inyama.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse ikaba inifashishwa mu bundi buryo butandukanye, mu gihe bari mu igerageza ry'imiti, kuko ariho bayifashisha. Ni byiza ko dukoresha ino miti mu gihe tuyishyira ku bihingwa, cyangwa amatungo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Ibibwana by'ingurube ubna ko ari ibya kizungu, byitaweho neza ubona biri guhabwa ibigori ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo bibashe gukura neza. Ni byiza ko ibibwana byitabwaho kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro.

Umubyeyi ari kwita ku nkoko, ni byiza ko inkoko zitabwaho zihabwa ibiryo bikwiriye kandi zikabihabwa ku gihe gikwiriye kugira ngo zikomeze zigire umusaruro kandi zigire n'akamaro kuri we ndetse n'abandi muri rusange.

Umuntu ubona ko ari guhinga umurima ubona ko wasaruwemo ibigori wari warahinzwemo ibigori, ni byiza ko twita ku mirima kandi tukayigirira isuku igihe yamaze gukurwamo ibindi bihingwa kugira ngo ibashe gutegurwa neza maze itange umusaruro ku bindi bihingwa biba bigiye gushyirwamo.

Ibigori ubona ko bifite umusaruro mwiza aho ubona byitaweho byose buri cyose gihetse ibigori bibiri, ni byiza ko ibigori byitabwaho kandi bigasarurwa igihe byeze neza kugira ngo bibashe kuba byatanga umusaruro uhagije.

Inzego zishinzwe umutekano, aho ziri kumwe n'abaturage, ziri gukora ahantu kugira ngo hajye hafata amazi mu buryo bwo gukumira ibiza ndetse n'ay'isuri. Ni byiza ko ducukura ibinogo bifata amazi, kugira ngo dukomeze tubungabunge ubutaka bwacu.

Abantu ubona ko bari gutunganya umurima urimo urutoki aho bahahinze kugira ngo haterwemo ibiringwa bitandukanye, ni byiza ko ahantu hatunganywa igihe hagiye guterwa ibihingwa bitandukanye kugira ngo hazabashe kwera, hakibukwa no kuba hashyirwamo ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imborera.

Abahinzi aho bari guhinga ibihingwa bitandukanye, aho bari guhinga ahantu harimo imyumbati, kugira ngo babashe kuyihingira kandi bongeremo n'ibindi bihingwa, ku buryo babyitaho kandi bibuke gukoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera.

Abantu ubona ko bari mu muganda aho bari kugerageza gucukura ibinogo bifata amazi. Ni byiza ko ducukura ibinogo bifata amazi kugira ngo twirinde isuri n'itwarwa ry'ubutaka igihe imvura yaguye ari nyinshi.

Abantu ubona ko bari kubumba ibyondo kugira ngo babashe guhoma inzu ikiraro cy'inka. Ni byiza ko twita ku biraro kugira ngo tubihome neza maze bibashe kujyamo amatungo.

Abantu ubona ko bari gutunganya ubutaka banatera imbuto zitandukanye kugira ngo babashe guhinga maze baziteze imbere, ni byiza guhinga ariko tukibuka no guteza ifumbire ndetse y'imvaruganda n'imborera kugira ngo tuzabone umusaruro mwiza.

Ahantu ubona hateguwe neza, ari umurima wahinzwe, wateguwe kugira ngo uterwemo imyaka. Ni byiza ko bahinga, ariko bagakoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera kugira ngo babashe kweza umusaruro uhagije.

Abantu bari ku gasozi, ubona ko bari gutera ibiti, ni byiza ko dutera ibiti kuko ari ingirakamaro; bifasha mu kuyungurura umwuka duhumeka, ndetse bikarwanya n'isuri ahantu hose kugira ngo ubutaka bukomeze kuba bwakomera ntibutwarwe.

Umuntu aho ari kwita ku ikawa kugira ngo zizabashe gukura neza, aho ari kuzisasira akuraho ibyatsi byegereye kugira ngo zizabashe gukura neza maze zibeho zifite uburere bwiza.

Ubutaka ubona ko buteguwe neza cyane aho bwahinzwe bugatunganywa, hagakurwamo ibyatsi kugira ngo uzabashe guterwamo ibihingwa maze bibashe kwera kandi bitanga umusaruro.

Umurima ubona ko uteguwe neza, wahinzwe neza uri guterwamo imbuto, kugira ngo zizabashe kwera neza. Biba byiza ko iyo umuntu ateye, ateresha ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imborera, kugira ngo azabashe kubona umusaruro uhagije.

Abantu ubona bari gutera imyaka ubona ko bari guhinga ahantu bashyiramo imbuto ahantu ubona hatunganyijwe neza, ni byiza ko igihe tugiye gutera imbuto dutunganya ubutaka bwacu kugira ngo bubashe kwera kandi twibuka gushyiramo n'ifumbire.

Umuntu ubona ko ari gupima umurima ndetse n'uburyo agiye gukoresha kugira ngo abashe gutera ibihingwa bye ku murongo kandi bibashe kwera neza. Ni byiza ko twita ku bihingwa byacu kandi kugira ngo byere tugahinga ku murongo mu buryo bwa kijyambere.

Abahinzi ubona ko bari guhinga kugira ngo bazabashe guhinga ibihingwa byabo, maze babashe gusarura, ni byiza guhinga twibuka gutora urwiri nta kururenzaho, kugira ngo dukomeze tugire umusaruro mwiza kandi uhagije.

Ni byiza guca ibinogo igihe tugiye gutera, kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, duhinga ibihingwa byera neza kugira ngo tubone ibyo kurya, kandi dusagurire n'amasoko.

Abantu ubona ko bari guhinga ibihingwa by'ibigori, aho babanje gushyiramo ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda kugira ngo ibigori bizabashe gukura kandi bakabitera mu myobo kugira ngo bizabashe gukura kandi bitange umusaruro mwiza.

Ibigori ubona ko byitaweho neza, rwose byahetse bibiri bibiri, ni byiza ko twita ku bigori kandi tubishyiraho ifumbire ihagije kugira ngo bibashe gukura neza kandi bitange umusaruro mwiza.

Abantu ubona ko bari guca ibinogo biterarwamo imyaka itandukanye, kugira ngo babashe guhinga neza kandi bahinge ku buryo bwa kijyambere, aho bayitera basasira. Ni byiza ko twita ku myaka tugiye gutera, kandi imbuto duteye tukazitaho, dutera no ku murongo.

Abahinzi bari gusanza kugira ngo babone uko batera imyaka yabo, bityo bizabafashe guhinga ndetse no gutera imbuto zere neza, ni byiza ko bibuka no gukoresha imvaruganda ndetse n'imborera igihe bagiye guhinga imyaka yabo.

Abantu ubona ko bari gutunganya umurima usanzwe urimo imyumbati, aho bari kuwutunganya kugira ngo uzaterwemo ibihingwa bitandukanye, ni byiza ko dutunganya umurima neza kandi tukibuka gushyiramo ifumbire igihe tugiye gutera ibihingwa.

Abantu ubona ko bateraniye ahantu hamwe, ubona ko bari kwiga ku buhinzi uburyo bakora kugira ngo bahinge neza, maze bongere umusaruro. Ni ibyiza ko abantu baganira bari kumwe n'ababishinzwe, bashinzwe ibijyanye n'inyongeramusaruro kugira ngo babashe kugira uruhare mu gufasha abaturage guhinga neza.

Ibigori ubona ko byafunzwe kandi byahunguwe bikaba byarashyizwe mu mifuka kugira ngo hirindwe ko byakwangirika, ni ibyiza ko ibi bigori bitunganywa bigakorwamo ifu, akawunga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ibijumba ni ingirakamaro igihe byahinzwe neza maze bigatanga umusaruro, aho bitera imbaraga kandi biba byiza guhinga ibijumba ukaba washyiramo n'ifumbire kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije.

Ibijumba ni kimwe mu gihingwa ngangurarugo aho gikoreshwa mu gutanga imbaraga mu mubiri, ni byiza ko twita ku bijumba tubitera neza kugira ngo bitange umusaruro mwiza, dugukoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera kugira ngo tubashe kubona umusaruro ushimishije.

Ibigori ubona ko byitaweho neza ariko atari cyane, ubona ko hari umuyoboro utwara amazi kugira ngo ahatari amazi habashe kugera amazi. Ni byiza ko ariko ibigori byitabwaho kugira ngo bihabwe n'ifumbire ihagije maze bibashe kuba birebire binakure bitange umusaruro mwiza.

Ibirayi ni igihingwa gikunze kwera cyane iyo cyitaweho. Ni byiza ko dutera umuti ibirayi kugira ngo turwanye udukoko tubyangiza, kugira ngo tubirinde kuba byakuma, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije.

Ibigori igihe bisaruwe biba byiza ko bimanikwa ahantu ku biti hateguwe kugira ngo habe hakwirindwa ko bishobora guhura n'ikibazo cyo kubora, ni byiza ko ibigori tubishyira ahantu habugenewe kugira ngo byume neza.

Ahantu ubona ko hari ibitoki byinshi kandi bigurishwa, ni byiza ko ibitoki byitabwaho kuko bigira uruhare cyane mu kuribwa ndetse no mu gukorwamo ibindi bintu bitandukanye aho havamo imineke, inzoga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ni byiza ko twita ku bitoki kandi tubitera neza igihe turi kubihinga.

Ibiti by'imyumbati biri mu mbuto nziza cyane igihe byatewe neza kuko bigira umusaruro bigaterwa maze hakavamo imyumbati yifashishwa igihe iribwa cyangwa igasagurirwa amasoko kugira ngo habe haboneka amafaranga.

Umuceri iyo witaweho wera neza. Niyo mpamvu dukwiye kwita ku muceri tuwubagarira uko bikwiye kandi tuwukurikirana tuwuha amazi ahagije, ifumbire kugira ngo ubashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije.

Umuceri ni igihingwa ngengabukungu aho iyo witaweho neza usarurwa kandi ugatanga umusaruro ushimishije, aho bisaba kuwutera ahantu hari amazi kandi ugakurikiranwa igihe cyo kuwurinda kuko inyoni ziwubangamira, hakaba hariho uburyo bwo kuwurinda.

Ibigori ni ingirakamaro ariko biba byiza iyo byagosowe kugira ngo hakurwemo imyanda itandukanye maze bibashe kubikwa neza, bityo bizabashe gutunganywa nta myanda irimo, ni byiza ko twita ku bigori dukuramo imyanda yose irimo.

Igiti kiri mu bwoko bwa sedereri, ni igiti cyiza cyane kuko gifasha gukoramo ibikoresho bitandukanye nk'ameza ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha kandi ni igiti kiba gikomeye, ni byiza ko ibi biti biterwa ahantu hose kandi bikitabwaho kuko ari ingirakamaro.

Avoka ni imbuto nziza cyane iyo yitaweho maze ikabasha guterwa maze igakura neza bityo itanga umusaruro, hakaboneka avoka zihagije kuko ari ingirakamaro zitanga intungamubiri zitandukanye mu mubiri, ni byiza ko twita ku biti bya avoka kugira bibashe gukura neza.

Ibimera n'ingirakamaro ku buzima bwacu kuko bigira uruhare runini mu buzima bwacu kandi ku bidukikije, ni byiza ko dukomeza kwita ku bimera tubifata neza kuko harimo nk'urugero ingagari zifashishwa mu bikorwa bitandukanye kugira ngo abantu bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Amashyamba ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi kuko afasha gutanga umwuka mwiza duhumeka kandi akanagira n'uruhare mu buryo bwo kurinda ibidukikije, aho afata umuyaga ushobora kwangiza ibidukikije.

Urutoki ndetse n'ibipapayi, ni byiza ko urutoki rwitabwaho ndetse n'imbuto y'igipapayi ikitabwaho kugira ngo ibashe guhabwa ifumbire ndetse inabagarirwe kugira ngo hakomeze kuba cyakura cyangwa n'urutoki rwakura, maze abantu bakomeze biteze imbere.

Avoka z'imbangurirano ni zimwe muri voka nziza cyane kandi zera vuba ugereranyije n'izindi voka, aho zera n'avoka nyinshi. Ni byiza ko abantu dutera avoka y'imbangurirano kuko ari yo nziza, kandi yera vuba, kandi ikera avoka nyinshi.

Ibihingwa bitandukanye harimo n'ibiti bitandukanye, higanjemo ibigori. Ni byiza ko twita ku bigori, tubyitaho tubiha ifumbire uko bikwiye, kugira ngo tuzabashe kubona umusaruro, ndetse n'ibindi biti tukabasha kubibungabunga twirinda kubitema.

Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije, aho harimo amashyamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye; hamwe harimo ibyifashishwa mu kuvamo imiti itandukanye ikoreshwa mu kwivuza. Ni byiza ko twita ku bidukikije nk'amashyamba twirinda abayatwika.

Ibimera ni ingirakamaro ndetse n'ibiti muri rusange, kuko bifasha mu kurinda ibidukikije harimo nko kurwanya isuri ndetse no kuyungurura umwuka duhumeka. Ni byiza ko tubungabunga ibimera harimo nk'ibiti, kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibimera ni ingirakamaro ku buzima bwacu, niyo mpamvu dukwiriye kubungabunga ibidukikije, aho bifasha gufata ndetse no kurwanya isuri ndetse bimwe bikaba binayungurura umwuka mwiza duhumeka, ibindi bikavamo imiti twifashisha twivura aho itunganywa.

Urubingo ni kimwe mu gihingwa cy'ingirakamaro, aho barutera kugira ngo rube ubwatsi bw'inka, cyangwa rwifashishwe mu gihe cyo kubaka, ni byiza ko urubingo turwahira turwahirira amatungo kugira ngo abashe kubaho neza, rwaba ari urwo kubaka na byo tukarutera neza ku buryo ruzakoreshwa mu kubaka.

Urutoki ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu, niyo mpamvu rukwiye kwitabwaho rusasirwa kandi hashyirwaho ifumbire kugira ngo rubashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije, bityo abantu biteze imbere.

Ibimera bikwiye kwitabwaho bibungabungwa kuko bimwe bikorwamo imiti itandukanye, kugira ngo dukomeze kubungabunga ibimera, ni byiza ko tubyitaho kugira ngo bikomeze bigire ubuzima bwiza, kandi bikomeze bitugirire akamaro.

Ni byiza ko dutera ibiti bitandukanye ndetse n'imbuto ariko tukabyitaho tubikuraho ibyatsi bibikikije kugira ngo bibashe gukura neza, bityo tubungabunga ibidukikije kuko ibiti ari ingirakamaro mu kuyungura mwuka duhumeka ndetse no kurwanya ibiza.

Ibishyimboi ubona ko byitaweho nabi bigatuma bidakura neza, ni byiza ko ibishyimbo n'amateke byitabwaho bigakorerwa isuku kandi ibyatsi birimo bigakurwamo, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza.

Ishyamba ni ingirakamaro ku buzima bwacu, iyo ryitaweho neza kuko riduha umwuka duhumeka kandi rikaba irinda kuba ibidukikije byakwangirika, ni byiza ko twita ku mashyamba, twirinda bayatema cyangwa abayatwika kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imyembe ni kimwe mu gihingwa cyane gikunze kwera ariko gikenera imvura nyinshi. Ni byiza ko twita ku biti by'imyembe kuko ari ingirakamaro, bigira uruhare mu ntungamubiri nyinshi zikenerwa n'umubiri kugira ngo dukomeze tugire ibiti byinshi, tubyiteho.

Ibiti ni ingirakamaro ku buzima bwacu aho biduha umwuka duhumeka bimwe bikanifashishwa mu kuvamo ibikoresho bitandukanye. Ni byiza ko twirinda kwangiza ibidukikije nk'ibiti, twirinda ababitema n'ababitwika.

Insina ni zimwe mu bintu bishobora kuvamo ifumbire, igihe bwatemye neza cyangwa hakavamo ubwatsi bw'inka, ni ibyiza ko zitemwa zikaba zashyirwa ahandi impande y'insina zindi cyangwa zikajyanwa zikaba ubwatsi bw'inka.

Amashyamba ni ingirakamaro ku buzima bwacu aho aduha umwuka duhumeka, akanafasha mu gutanga ibikoresho bitandukanye, ni byiza ko tubungabunga amashyamba kandi twirinda abayatema kandi n'abayatwika na bo baba bari kuyangiza.

Ibiti ni ingirakamaro ku buzima bwacu, niyo mpamvu dukwiye kubibungabunga, tubifata neza kugira ngo bikomeze bitugirire akamaro kuko biduha umuyaga duhumeka ndetse bikanadufasha mu bintu byose dusanzwe dukora.

Ibimera bitandukanye ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu, aho bikwiye kubungabungwa kugira ngo bibashe kwitabwaho, aho bimwe bivamo imiti itandukanye, kugira ngo yifashishwe ivura abantu, bityo bigafasha abantu kuba bakira indwara zitandukanye.

Ni ngombwa ko tubungabunga ibimera kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza kuko bifasha kurinda ibidukikije aho biyungurura umwuka mwiza duhumeka. Ni byiza ko tubungabunga ibimera.

Indabo nziza cyane ubona ko zitaweho, aho ari nziza kuko zifasha kugira ahantu neza, bigatuma hari ubusitani. Ni byiza ko ibigo by'amashuri bigomba kugira ahantu heza, kandi zigatera indabo uburyo bikwiye.

Umuntu ubona ko ari kwita ku nyanya ndetse harimo n'ibigori, ari kugerageza kwita ku nyanya azisasira kugira ngo zibashe gukura neza zitange umusaruro, ni byiza ko twita ku nyanya ndetse n'aharimo ibigori tukabyitaho, tubisasira kugira ngo bitange umusaruro mwiza.

Inyanya, ubutunguru, ndetse na karoti, ni ingirakamaro kuko bifasha gutegura ifunguro ryiza kandi ryiganjemo intungamubiri. Ni byiza ko igihe cyose tugiye guteka tugomba gukoresha ubutunguuru, inyanya na karoti kuko zigira intungamubiri.

Igishanga, aho kirimo ibihingwa bitandukanye harimo: karoti, ibijumba ndetse n'ibigori. Ni byiza ko ibi bihingwa byitabwaho igihe byahinzwe mu murima, nka karoti zikavomererwa kandi zigashyirwaho ifumbire mvaruganda kugira ngo zibashe kwera neza.

Ahantu bacururiza ibiryo bitandukanye harimo imbuto, karoti, ibirayi, ubutunguru, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo abantu babashe kubigura maze babashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko tugura imiteja ubutunguru kandi tukabiteka neza kugira ngo bitugirire akamaro.

Imiteja ni imwe mu biribwa biri mu bwoko bw'imboga aho igira akamaro kanini mu kurinda indwara ndetse n'izindi vitamini mu mubiri, ni byiza ko tuyitaho kandi tukayiteka neza.

Umubyeyi n'umwana aho ubona bari ku karima k'igikoni, umubyeyi ari gusoroma imboga ndetse n'umwana, ni byiza ko duhinga imboga ku karima k'igikoni kuko ari ingenzi ari ho zera vuba kandi zikera imboga nziza.

Imyungu ni kimwe mu biribwa bimeze neza kandi bitunga umubiri hamwe n'indimu kuko zirwanya indwara zitandukanye zo mu nda, zikagira n'intungamubiri, ni ibyiza ko byitabwaho kugira ngo abantu bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Ururabo ubona ko rumeze neza cyane rukora ubusitani kandi bugatuma ahantu hamera neza, ni byiza ko twita kuri izi ndabo kuko zifashishwa mu kuba ahantu hamera neza kandi ni rumwe mu bidukikije.

Ibihingwa ni ngombwa ko byitabwaho kandi bigahabwa isaso rikwiriye, kandi bikavomererwa kugira ngo bikomeze kugira igikuriro cyiza, kandi bigakomeza kwitabwaho uko bikwiye.

Umukobwa ubona ko ari gusoroma imbuto, kugira ngo abashe kuzirya maze agire ubuzima bwiza. Ni byiza ko twita ku mbuto, igihe cyose tugiye kuzirya tukazitunganya neza, kugira ngo zibashe kugira akamaro kandi zigire intungamubiri igihe tuziriye.

Urusobe rw'imbuto zitandukanye harimo ibinyomoro, amapera, imyembe ndetse n'indimu, aho byifashishwa cyane ku ifunguro, aho birinda indwara bikagira n'intungamubiri cyane cyane ibinyomoro aho byongera amaraso mu mubiri, ku bantu baba bafite make.

Ibihingwa bitandukanye harimo imyungu ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye aho biba byajyanywe ku isoko kugira ngo byitabweho bicuruzwe maze bibashe kuba byabona ababigura, maze babihahe babitahane babiteke kugira ngo bibashe kubafasha kubona ifunguro.

Indabo ni ingirakamaro mu gutegura ahantu kandi zigatuma ahantu hamera neza kuko ziri mu bidukikije kandi ari ingirakamaro mu kuduha umwuka mwiza duhumeka kandi bigatuma n'ahantu hasa neza, hari ubusitani bwiza.

Umubyeyi aho acuruje inyanya ndetse n'ubutunguru kugira ngo abantu baze kugura maze babashe kubona uburyo bajya guteka. Ni byiza kubicuruza ariko agacururiza ahantu hafite isuku kugira ngo habe hakwirinda indwara zitandukanye.

Umuntu ubona ko ari kwita ku birayi ari kugerageza kubitera umuti kugira ngo bibashe kuba byakura neza kandi bitanga umusaruro. Ni byiza ko tubyitaho byaba ngombwa tukanabisasira kugira ngo bikomeze byere neza.

Igiti cy'ipera ni kimwe urubuto rwiza cyane iyo rweze neza rwitaweho, ni byiza ko ibiti by'ipera byitabwaho, biterwa ahantu heza kugira ngo bibashe gukura maze bitange imbuto ziribwa.

Imiteja ni imwe mu bice by'imboga bishobora kuribwa kandi bigatera imbaraga, ndetse zikarinda n'indwara igihe wazitetse neza. Ni byiza ko duteka imiteja, kandi tukayitaho, kuko ari ingirakamaro, mu buzima bwayo.

Urusenda ni kimwe mu mbuto nziza cyane, zikoreshwa zishyirwa mu biryo kugira ngo zongere ibiryo uburyohe bwabyo no kugira ngo zibe zarwanya indwara zitandukanye zo mu nda.

Intababara ni ingenzi cyane, igihe umuntu ayisoromye yarahiye kuko igira akamaro ku buzima bwacu. Ni ngombwa ko dutera intababara kandi tukazitaho, tukirinda kuzisoroma zitarera kuko zatwangiza.

Abanyeshuri ndetse n'abana ubona ko bari kwita ku bihingwa byabo, aho bari kwita ku bihingwa by'ibinyomoro kugira ngo babashe kuba babikurikirana bibashe kwera kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije.

Ibinyomoro ni kimwe mu mbuto nziza cyane, aho zifasha umubiri igihe wabuze amaraso ubifata ukabinywa kandi ukabinywa neza bikongera amaraso mu mubira. Ni byiza ko ibi binyomoro ahantu hose biri mu butaka bihingwa neza kandi bikitabwaho kugira ngo bitange umusaruro ushimishije.

Urusobe rw'inyanya ndetse n'intoryi ndetse na karoti aho zifashishwa mu gutunga umuntu aho zongera intungamubiri nyinshi mu mubiri, ni byiza ko tuzitaho kandi tukaziteka neza kugira ngo zigire akamaro.

Imyumbati biba byiza ko yitabwaho kugira ngo ibashe kuba yakura neza, bityo itange umusaruro, aho ishobora kuba yashyirwaho ifumbire kandi cyangwa igatezwa ifumbire.

Imineke ni imwe mu biryo bifite intungamubiri iyo yariwe neza nyuma y'ibiryo, aho yifashishwa mu gutanga ibintu bitandukanye harimo inzoga, ni byiza ko twita ku rutoki kuko ari yo soko y'imineke dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Intoryi ni kimwe mu rubuto rwiza cyane bifashisha igihe bari guteka imboga kugira ngo rubashe kwitabwaho kandi runatekwe neza kugira ngo rubashe kugira intungamubiri kandi rugire no kuba ntawe rwakwangiza igihe aruriye rutetse.

Amashu ni imbuto nziza cyane, aho zikunze guterwa ahantu hari amazi, ni byiza ko twita ku mashu kandi tuyavomerera kugira ngo aduhe umusaruro, aho agomba guterwa kandi agashyirwaho umuti ndetse n'ifumbire ihagije, haba y'imborera ndetse n'iy'imvaruganda.

Indimu ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko zirinda indwara zitandukanye zo mu nda kandi zikaba zifasha kuko zigira vitamini zitandukanye. Ni byiza ko dutera indimu kandi tukazibungabunga ahantu hose ziri.

Ibiti by'avoka bitanga avoka kandi z'ingirakamaro ku buzima bwacu, weho iyo wayifashe neza ikugirira akamaro kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora neza kandi bitunge n'umubiri wawe.

Urusenda ni igihingwa gikunzwe cyane kuko ari ingirakamaro iyo gihe cyahinzwe neza, maze kikabasha gufasha igihe umuntu atetse ibiryo, aho cyongera uburyohe mu biryo kandi kikaba kirinda n'indwara zitandukanye.

Imineke ni kimwe mu bihingwa byiza cyane, kandi biryoha, iyo uri kubirya rwose uba wumva biryoha, ni byiza ko bibungabungwa kandi ukarya ihagije, ntuyirye nk'uyishonjeye, ukayirya kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza.

Imbuto ubona ko zahumbitswe neza, ziri kwitabwaho n'umugabo kugira ngo zizabashe gukura zimurwe ziterwe. Ni byiza ko, abantu babasha guhumbika imbuto kandi bakazimbika neza, kugira ngo zibashe kwera.

Imbuto ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko ariyo mpamvu dukwiye kujya dufata imbuto buri munsi kandi tukazifata neza. Ni byiza ko dufata imbuto, kandi tukareba ko zujuje ubuziranenge kugira ngo zitugirire akamaro igihe twazifashe.

Ahantu impande y'amashuri ubona ko hari indabo nziza cyane, ni byiza ko izi ndabo zitabwaho kuko zigira ahantu heza kandi zigatuma abantu dukomeza kubungabunga ibidukikije, ni byiza ko twita kuri izi ndabo tuzitunganya neza.

Imbuto z'inyanya ni kimwe mu gihingwa gikwiye kwitabwaho bikaba byiza iyo gihawe ibiti kugira ngo gikurireho kibashe kwera inyanya nyinshi kandi zere neza, ni byiza ko twita ku nyanya kuko ari ingirakamaro zitanga amafaranga ndetse zikaba n'ingirakamaro ku buzima bwacu.

Imyembe ni kimwe mu mbuto nziza cyane ndetse n'indimu zigomba kujya zifatwa na buri muntu wese kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko dufata imyemba uko bikwiye kandi tukayirya neza kuko igira intungamubiri.

Urusobe rw'imbuto zitandukanye harimo imyembe, imbuto, ibinyomoro, indimu ndetse n'izindi mbuto zifashishwa igihe umuntu agiye kuzirya kugira ngo zongere, intungamubiri kandi zimwe zinarinde indwara zitandukanye.

Ibinyomoro ni kimwe mu gihingwa kiza cyane aho kiri mu ubwoko bw'imbuto cyongera amaraso mu mubiri, umuntu yabuze amaraso agifata kandi akagifata uko bikwiye, ni byiza ko igihe kiri mu murima kitabwaho kandi kigahabwa ifumbire ihagije.

Ubutunguru ni kimwe mu mbuto nziza cyane kandi zifasha umubiri kuba wavura indwara zitandukanye, harimo igifu ndetse n'izindi ndwara zo mu nda, ni byiza ko urutunguru rukoreshwa igihe umuntu agiye guteka kuko ruhumuza ibiryo, rukaba rurinda n'indwara zitandukanye.

Inyanya ndetse na karoti n'intoryi aho zicurujwe kugira ngo zibashe kwitabwaho maze abantu babashe kuzihaha kandi bagire ubuzima bwiza, ni byiza ko dukoresha izi nyanya na karoti n'intoryi igihe tugiye guteka kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Urusenda ni rumwe mu biryo byiza cyane iyo byakoreshejwe mu biryo kugira ngo rubashe gufasha ibiryo kugira ngo biryohe. Ni byiza ko dukoresha urusenda igihe tugiye kurya kuko runarinda indwara.

Ahantu ubona ko hari ibimera bitandukanye by'indabo aho bifasha kugira ahantu heza kandi hakagira akayaga keza gatanga umwuka duhumeka, ni byiza ko tubungabunga indabo ndetse n'ibimera kuko bigira ahantu heza bigatan n'akuka duhumeka.

Inyanya ni kimwe mu gihingwa cyera cyane ariko gisaba kuba kitaweho kigahabwa umuti uko bikwiye kandi kigakurikiranwa, aho kigira uruhare mu ifunguro ry'abantu rya buri munsi, kandi kikagira intungamubiri.

Ibinyomoro ni imbuto z'ingirakamaro ku buzima bwacu, aho zifashishwa mu kongera amaraso ku bantu bafite amaraso makeya. Ni byiza ko dufata ibinyomoro kandi tukabyitaho tubitera ahantu hari ifumbire kandi bikitabwaho bihabwa amazi ahagije.

Ubutunguru ni ingirakamaro ku buzima bwacu aho bwifashishwa mu guteka kandi bukaryoshya ibiryo, aho iyo bwatetswe neza buvura indwara zitandukanye zo mu nda. Ni byiza ko duhinga ibitunguru kandi tukabyitaho, no mu gihe cyo kubiteka tukabiteka neza.

Igishanga ubonamo ko kirimo ibihingwa bitandukanye harimo karoti, ibigori ndetse n'ibindi bihingwa. Ni ibyiza ko karoti zitabwaho zikavomererwa zihabwa amazi ahagije, ndetse n'ibigori bikabasha kwitabwaho kugira ngo bibashe gutanga umusaruro.

Amakaroti ni kimwe mu mbuto zigize ibiryo kuko zigira intungamubiri, haba mu kuvura indwara ndetse n'izindi ntungamubiri kuko zitekwanwa n'imboga kugira ngo zibashe kuryoshya ibiryo, ni byiza ko twita mu kurya karoti kuko ari ingenzi.

Ururabo ubona ko rumeze neza rwitaweho neza, kandi ni byiza ko twita ku ndabo kugira ngo zikomeze gusigasira ibidukikije, kandi bitume n'ahantu hagaragarara neza mu buryo bwo kwita ku hantu.

Ni byiza kwita ku ntoryi tuzisasira kandi tureba izahiye tukabasha kuzikuramo kugira ngo intoryi zibashe kwera neza kandi zitange umusaruro mwiza igihe twazihaye amazi ahagije.

Avoka ni igihingwa kiza cyane kuko akigira uruhare runini ku mubiri kandi kikaba gifite n'intungamubiri zihagije, ni byiza ko turya voka cyane cyane iyo turiye n'ibiryo tugomba kongera havoka kuko ari ingenzi ku buzima bwacu.

Imboga ni nziza cyane ku buzima bw'abantu bwa buri munsi, ariko ni byiza ko zitabwaho igihe zasoromwe zigatekwa, igihe kuba zitaruma kugira ngo habe hakwirindwa ko zishobora gutera indwara zitandukanye, kugira ngo zibe zabasha kugira intungamubiri.

Abantu ubona ko bari gusarura, imyaka yabo bahinze kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije, ni byiza ko dusarura kandi tunita ku mboga igihe zikiri mu murima, izo dusaruye ndetse n'ibisigaye tukabasha kubyitaho kugira ngo maze zibashe gukura neza.

Abantu ubona ko bari kuvomerera imbuto baziha amazi ahagije, ni byiza ko imbuto zikiri ntoya zitabwaho cyane cyane mu gihe hari kuva izuba ryinshi kugira ngo zikomeze gukura neza kandi zizatange umusaruro uhagije.

Kuvomerera amashu ni byiza dukoresheje ikoranabuhanga kuko dufashe amashu kugira ngo akure neza aho aba yabonye amazi ahagije, ni byiza ko twita ku mashu kandi twibuka no gushyiraho ifumbire iboneye kugira ngo amashu abashe kumera neza.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvomerera ibigori aho bikwirakwiza amazi ahantu hatandukanye, ni byiza ko dukoresha ibi bikoresho kugira ngo twuhire ibigori kugira ngo bibashe kwera cyane cyane igihe hari igihe cy'iki hariho izuba ryinshi.

Amatara y'indinganire aho yakozwe ahantu kugira ngo habashe kwera, ni ibyiza ko ku matarasi duteraho urubingo kuko rufasha kugaburira amatungo kandi bugafasha gufata ubutaka bwo ku materasi kugira ngo abashe kumera neza.

Ahantu ubona ko hakozwe amaterasi, aho hateweho urubingo kugira ngo rufashe kuba rwagaburira amatungo, ni byiza ko dukora ahantu amaterasi kuko bifasha ubutaka kwera kandi bigatuma harindwa isuri, no kuba ubutaka bwatwarwa.

Umubyeyi ubona ko ari kujya guhinga, agiye guhinga ahantu yitegura kuzatera ibihingwa bye, kugira ngo abashe kwiteza imbere. Ni byiza ko abahinzi duhinga kandi tugahinga kare kandi tugahinga neza, kugira ngo tubashe kweza neza.

Umugezi utemba ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu aho bawifashisha babona amazi. Si byiza ko tuvoma amazi yo mu mugezi kuko aba adasukuye, kuko ashobora kudutera indwara zitandukanye.

Ahantu hari ikibaya ubona ko hateguye neza, hamwe hahinze ahandi hadahinze, ni ibyiza ko twita ku mirima yacu, tuyitegura neza cyane cyane ahahanamye hakaba hakorerwa amatarasi y'indinganire, kugira habashe kwera neza bityo hatange umusaruro.

Ahantu ubona hateye neza hamwe hari urutoki ahandi hari amazu ndetse n'imirima. Ni byiza ko ahantu hahinga hitabwaho kandi hakagirwa isuku, kandi n'ahantu hahanamye hagaterwa ibiti, cyangwa hakaba hakorerwa amaterasi y'indinganire.

Umuceri ni igihingwa kiza cyane, bisaba ko gihingwa neza kandi kikabona amazi ahagije kandi kikitabwaho, aho kibagarwa cyane kandi kigasarurwa neza, igihe cyo kurinda kikabaho ari uko barinze kugira ngo umuceri utaribwa n'inyoni.

Gutera imyaka biba byiza, iyo uciye imiyoboro imeze neza, kugira ngo ibihingwa bibashe kwera neza, bityo biguhe umusaruro ushimishije, kugira ngo ubashe kwiteza imbere.

Umusozi ubona ko uriho imirima yitaweho neza ndetse hariho n'amatarasi, ni byiza ko twita ku bimera harimo nk'amashyamba n'imirima ahasanzwe hahingwa kugira ngo habashe gutanga umusaruro, tunibanda kubungabunga ibidukikije harimo nk'amashyamba.

Inka z'inzungu ni inka zitanga umukamo mwinshi cyane ugereranyije n'izindi nka, ni byiza ko zitabwaho ziragirwa ahantu heza kandi zikabasha gukurikiranwa igihe zarwaye kugira ngo zitabweho zikomeze gutanga umukamo w'amata uhagije.

Inka ni byiza ko zitabwaho kugira ngo hakurikirane imikurire yazo ndetse n'indwara zigenda zihura nazo kugira ngo zibashe kugira umusaruro kandi zigire inyungu ku borozi ni byiza ko inka zikurikiranwa neza.

Inzu zororerwamo inkwavu nyinshi cyane, ni byiza ko inkwavu zororerwa ahantu heza kandi zikubakirwa kugira ngo habe hakwirindwa ko havamo izirwara uburenge, kugira ngo inkwavu zikomeze kubaho neza kandi zororoke.

Ingurube ubona iryamye ariko iri hafi yo kubyara, ni byiza ko ino ngurube yitabwaho kandi igashyirwa ahantu hasakaye kugira ngo ibe ifite umutekano kandi izabyare neza kugira ngo ibashe kwitabwaho maze izatange inyungu.

Ingurube eshatu ubona ko harimo abana babiri, ubona ko ari ingurube zititaweho neza kugira ngo zihabwe ubwatsi buhagije, ibyiza ko izi ngurube zishyirwa mu biraro byabugenewe, zigahabwa ubwatsi buhagije kugira ngo zibashe gukura neza.

Ihene ubona ziri kwitabwaho n'umukecuru ari kuzigaburira ibishishwa by'ibishyimbo, ni byiza ko ihene zitabwaho kugira ngo zibashe gutanga umusaruro ndetse n'inyungu kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu.

Ibiraro gakondo ubona ko birimo utugurube dutoya twabwawe na nyina. Ni byiza ko tubwitaho kugira ngo bukomeze bubeho neza kandi bukure kandi buzagire umusaruro.

Inka ni itungo ryo mu rugo nziza cyane aho ryifashishwa mu gutanga umusaruro ndetse n'amafaranga, ni byiza ko inka zitabwaho kandi zikororwa neza zijyanwa mu biraro, kugira ngo zinahabwe n'ubwatsi buhagije, kugira ngo zitange umusaruro.

Inka biba byiza iyo yitaweho ihabwa ubwatsi buhagije kugira nngo ibashe kubyibuha kandi ibashe no kungura uwayiguze kugirango ngo abashe kubona icyororo kandi abashe kwiteza imbere binyuze mu korora inka, ni byiza ko inka zitabwaho zihabwa ubwatsi buhagije.

Ihene ubona ko iziritse ahantu iri kumwe n'umwana wayo. Ni ngombwa ko ihene zijyanwa ahantu hari ubwacu kugira ngo ziragirwe maze zibashe kubyibuha maze zizajyanwe ku isoko, maze zitange inyungu.

Ingurube bigaragara ko yitaweho neza, aho ihabwa ibiryo bikwiye, ni byiza ko ingurube nk'izi zitabwaho ariko zigashakirwa ikiraro kiza ziraramo kugira ngo zibashe gukura neza kandi zifite ahantu heza ho kuba.

Ihene ni byiza ko zitabwaho kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza, aho zihabwa ibiryo bihagije kugira ngo zikomeze kubaho kandi zikura neza kuko ziba zabonye ibizitunga.

Ihene ubona ko zitaweho neza, ni byiza ko ihene ziragirwa ahantu heza cyangwa zikahirirwa kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza, bityo zibashe gukura neza kandi zitange inyungu ku borozi bazo kuko ni ingirakamaro.

Ingurube ni byiza igihe yabyaye ko yitabwaho kugira ngo ikomeze kuba yakura neza kandi yonse abana bayo kugira ngo bakomeze bakure neza kandi bagire ubuzima bwiza, ni byiza ko nayo ibona ubwatsi buhagije.

Ibiraro gakondo ni ingirakamaro kuko byororerwamo amatungo atandukanye kugira ngo abashe gukura neza kandi abashe no kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko igihe cyose tugiye korora tugomba kubaka ibiraro kugira ngo tubashe korora neza.

Inka iyo yitaweho neza, irakura kandi igatanga umusaruro. Ni ibyiza ko inka ziragirwa ahantu hari ubwatsi cyangwa zikahirirwa kugira ngo zibashe gukura neza kandi zitange n'inyungu ku baba baraziguze.

Inka yitaweho neza ikurura amata kandi ikaba yashobora no kuba yateza imbere umuryango ndetse n'abayorora, ni byiza ko yitabwaho y'ubakirwa ikiraro cyiza kandi ihabwa ubwatsi bukwiriye kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza.

Inka aho zitabwaho zishyirirwa ahantu heza ho kurira, aho zihabwa ubwatsi buhagije kugira ngo zibashe kurya neza kandi zibashe gutanga umusaruro mwiza, kandi zinabyibuhe neza.

Ubwana ubona ko buri konka, ubona ko buri konka nyina kandi yabyaye utwana twiza, ni ngombwa ko ingurube zimaze kubyara zitabwaho kugira ngo zikomeze zonsa abana bayo kandi neza.

Ihene ubona ko ziri kwitabwaho n'umubyeyi azigaburira kugira ngo zibashe gukura neza, ubone ko ziba zahawe ibyatsi bihagije, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro kandi na we abona inyungu.

Inka ubona ko iri mu kiraro aho iri kurya ibyatsi. Ni byiza ko inka yubakirwa ikiraro kigezweho kandi igasakarirwa neza kugira ngo ikomeze kwitabwaho maze igire ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Umubyeyi ubona ko ari kwita ku ngurube aho ari kuyihereza ibyo kurya ndetse anayitaho areba imikurire yayo. Ni byiza ko twita kuri ano matungo magufi, kuko ni ingirakamaro akemura ibibazo bitandukanye umuntu ahura na byo.

Inkoko ni kimwe mu biguruka kandi byororerwa mu rugo, aho ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu bifasha abantu kubaha amafaranga ndetse n'amagi yifashishwa guha abana aba arimo vitamini nyinshi. Ni byiza ko tworora inkoko kandi tukazitaho neza.

Ingurube ni imwe mu nyamaswa ngufi cyane kandi itanga umusaruro igihe yorowe neza, ikabasha kwitabwaho aho itanga amafaranga ahagije yifashishwa mu gukemura ibibazo bitandukanye, ni byiza ko twita ku matungo magufi, tuyaragira ahantu heza kandi hari ubwatsi.

Kwita ku ihene bifasha cyane mu gukemura ibibazo bitandukanye, harimo nko kuba abanyeshuri bajya ku ishuri mu gihe wagurishije ihene. Ni byiza ko tuzitaho tuziragira ahantu hari ubwatsi cyangwa tukazizirika ahantu hari ubwatsi, kugira ngo zibashe kubona ubwatsi buhagije.

Ingurube ni imwe mu matungo magufi akwiye kwitabwaho, cyane cyane iyo ari ingurube ya kijyambere kugira ngo ibashe kwitabwaho ikurikiranwe, ihabwe ibiryo bihagije kandi n'ahandi ikwiye kuba hagomba kwitabwaho hasasirwa kugira ngo ibashe kubaho imeze neza, bityo ikure vuba.

Ingurube ubona ko yabwaguye ubwana bwiza kandi ubona ko ari ingurube ya kijyambere. Ni byiza ko zitabwaho ihabwa ibiryo bihagije kugira ngo ibashe konsa abana bayo.

Inka ziri mu biraro bya kijyambere aho zihabwa ubwatsi bwiza kandi ziba ziri gusuzumwa ngo barebe ibibazo zigiye zifite, ubona ko ari inka za kijyambere ni ngombwa ko zitabwaho kandi zigasasirwa.

Inka za kijyambere, aho zitwa inka z'inzungu, zaje guhabwa abantu muri gahunda ya girinka Munyarwanda, kugira ngo babashe korora inka nabo, maze babashe kwiteza imbere bagire ubuzima bwiza.

Amatungo magufi nk'ihene ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho kandi bigahabwa ubwatsi bwiza kandi buhagije kugira ngo akomeze gukurikiranwa maze abashe gukura atange n'umusaruro, inyungu, ndetse n'amafaranga kugira ngo abantu bakomeze kwiteza imbere.

Abantu ubona ko bafite inkwavu mu ntoki, ubona ko boroje inkwavu kugira ngo bajye kuzorora maze babashe kwiteza imbere, maze bakomeze kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko abantu bakomeza kwitabwaho bahabwa amatungo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ihene ni amatungo magufi kandi afite uruhare runini mu gukemura ibibazo by'abaturage igihe yitaweho neza, amatungo magufi nk'ihene ni byiza ko yitabwaho cyane cyane ndetse n'ingurube kuko agira uruhare mu gukemura ibibazo igihe yagurishijwe atanga amafaranga.

Mu kabande ni byiza ko hitabwaho hacukurwa imiyoboro itwara amazi, aho iba iyajyana ahantu hatandukanye hari ibimera kugira ngo bibashe kubona amazi ahagije, maze bibashe gukura kandi bitange umusaruro.

Ibinyobwa ni ingirakamaro ku buzima bwacu iyo byahinzwe neza bikabasha kwanikwa neza bikuma kuko bifasha mu kurinda indwara zitandukanye, gukomeza amagufa ndetse n'izindi ndwara zishobora kuba zarinda, ni byiza ko tubungabunga ibinyobwa.

Urusenda ni ingirakamaro ku buzima bwacu aho rwifashishwa mu gushyirwa mu biryo cyangwa rukaba rwanaryoshya ibiryo, aho rurinda indwara zitandukanye zo mu nda, ni byiza ko imbuto nk'izi zitabwaho zigaterwa neza.

Imboga ni ingirakamaro ku buzima bwacu iyo twazitetse neza kandi tukazitekana uburyo bukwiye kugira ngo zibashe kugira uruhare mu kongera intungamubiri mu mubiri, ni byiza ko twita ku mboga ahantu hose ziri kugira ngo zigire akamaro ku buzima bwacu.

Ibigri ubona ko bititaweho neza bifite ikibazo cy'uko byaboze, ni byiza ko ibigori byitabwaho kandi bikabikwa kantu neza kandi bigasarurwa byeze kugira ngo bikomeze kurwanya kuba byabora.

Ibigori ni byiza ko bimanikwa kugira ngo bibone uburyo byuma neza kugira ngo hirindwe kuba byabora, ni byiza ko igihe dusaruye ibigori tubimanika ku biti byabugenewe kugira ngo bibashe kuma neza.

Amashu ari mu mboga zifite akamaro kuko yifashishwa mu gutanga intungamubiri zitandukanye ndetse na vitamine. Ni byiza ko amashu tuyatera neza kandi ku murongo kugira ngo agire umusaruro mwiza kandi akure ari manini.

Ubutunguru ni kimwe mu bihingwa byera neza iyo byitaweho bigahabwa ifumbire ndetse n'amazi ahagije. Kuko ari n'ingirakamaro, iyo bitetswe bifasha ibiryo kuryoha kandi bikanarinda indwara zitandukanye.

Urusenda ni kimwe mu bihingwa byiza cyane kandi bitanga umusaruro iyo byitaweho neza, ni byiza ko urusenda rwitabwaho kandi rukabasha gukorerwa isuku uko bikwiye kugira ngo rukomeze gukura neza kandi rutange umusaruro.

Urusenda ni kimwe mu mbuto nziza cyane kandi zifasha mu buzima bwa buri munsi, aho zishyirwa mu biryo kugira ngo bibashe kuba byagira uburyohe kandi zikaba zinarwanya indwara zitandukanye igihe wabiriye ariko ukarya nziza.

Guhinga inyanya kugira ngo zere neza biba byiza iyo uzihinze ariko ugashyiraho ibiti zizamukiraho kugira ngo zitaryama hasi kuko zishobora kuba zapfa. Ni byiza ko dushingirira inyanya kugira ngo zibashe gukura neza kandi zitange umusaruro uhagije.

Intababara ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko zongera amaraso ndetse zikarinda n'indwara igihe twazifashe neza. Ni byiza ko duhinga intababara kandi tukazihinga neza kugira ngo zibashe kwera.

Ibishyimbo ni byiza ko byitabwaho bishingirwarirwa kugira ngo bibashe kuba byakwera neza, kandi ahantu bitewe bikabasha kwitabwaho bishyirwaho ifumbire kugira ngo bibashe kugira umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Ni byiza ko ahantu hari imbuto y'ikawa hasasirwa kugira ngo zibashe gukura neza, ikawa ni ikimera cyiza cyane kandi kikaba igihingwa ngengabukungu, aho cyifashishwa mu gutanga amafaranga menshi.

Ahantu ubona ko hasaruwe ibigori, ubona ko byari ibigori byiza cyane urebye uburyo hameze, ni byiza ko hitabwaho kugira ngo hakomeze hakorerwe isuku maze hazabashe guterwa ibindi bihingwa kandi byere neza.

Akabande ubona karimo ibihingwa bitandukanye, harimo amateke ya kijyambere yitwa bwayisi ndetse n'ibishyimbo, ni byiza ko hakorwa umuyoboro mwiza utwara amazi kugira ngo ubashe kwifashishwa utanga amazi ku bihingwa bimwe na bimwe biba bikeneye amazi.

Umugabo ari kwita ku nka, aho ari ku kuyikora mu nda y'amaganga kugira ngo ayisuzume ikibazo ifite, kugira ngo ibe yahabwa imiti, ni byiza ko dusuzuma inka zacu kugira ngo dukurikirane imikurire yazo.

Umuganga w'amatungo ari kwita ku nka, areba ikibazo ifite mu nda y'amaganga kugira ngo abashe kuba yayiha umuti ayivure, ni byiza ko amatungo yitabwaho igihe arwaye, agahabwa imiti kandi ku gihe kandi agahabwa imiti yizewe.

Muganga w'amatungo, aho aba ari kwita ku matungo; inka azitera urushinge areba ibibazo zifite kugira ngo abashe kuba yazikingira cyangwa azivure. Ni byiza ko inka zitabwaho kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza.

Muganga w'amatungo aho ari kugerageza guha umuti inka kugira ngo abe yayivura indwara irwaye. Ni byiza ko twita ku matungo tuyavura kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inka ubona ko bayasamuye aho bari kuyipima ibintu bitandukanye kugira ngo babashe no kuyiha ikinini maze ibashe kubaho ifite morare mu byo irya kandi ibashe kurya ibintu, ibashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ubona ko ari gutegura umuti agiye gutera inka, kugirango ibashe kugira uruhu rwiza ,kandi ice n'udukoko dukunze gufata ku nka, ni byiza ko twita ku nka, tuzikurikirana ubuzima bwazo, kugira ngo zibashe kubaho neza zifite ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye bifashisha mu kuvura inka ndetse n'inkingo n'inshinge zitandukanye zifashishwa mu kuvura inka, ndetse n'indi miti harimo ibivuguto yifashishwa mu kuba hahabwa inka kugira ibashe gukura neza ndetse n'imyayi itandukanye nk'iy'ubutunguru yifashishwa mu gutera abahinzi bagiye guhinga.

Abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi bifashishije intama, kugira ngo barebe ibice biyigize maze babashe gukora ubushakashatsi ndetse n'uburyo bashobora kuvura intama. Ni byiza ko abanyeshuri bakora ubushakashatsi babyibonera kugira ngo babifate neza.

Muganga w'amatungo aho afite icupa ririmo ibinini bifasha kuvura inka inzoka ndetse n'ibindi bitera vitamini. Ni byiza ko inka zacu tuzitaho tuziha ibinini bikwiriye kugira ngo zibashe kubaho neza.

Umugabo ari kwasamura inka kugira ngo abashe kuba yayiha imiti ndetse n'ibindi byose bishobora kuyifasha, kugira ngo ikomeze ibeho neza. Ni byiza ko tugenzura inka zacu kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza.

Abantu ubona ko bari guha umuti uvura inka kugira ngo babashe kuyitaho, maze izabashe gukura neza kuko imaze igihe ubu nta murare ifite yo kurya, ni byiza ko inka zitarya zihabwa ibivuguto kugira ngo zibashe kwitabwaho.

Inka bigaragara ko zororerwa ahantu hamwe, ubona ko zazanwe kugira ngo zihabwe inkingo kugira ngo zibe zakwirinda indwara zitandukanye zishobora guhura na byo, ni byiza ko twita ku nka, tuzikingiza uko bikwiriye kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza.

Inka ubona ko irwaye iri kwitabwaho na muganga w'amatungo aho ari kuyitera urushinge kugira ngo abashe kuyivura indwara, ni byiza ko dukurikirana amatungo yacu tuyitaho igihe yarwaye kugira ngo abashe kuvurwa maze akire.

Inzovu ni inyamaswa zitangaje cyane, aho zikunze kwibera mu ishyamba, aho zikurura ba mukerarugendo baje kureba uburyo zifite ubuhanga, n'ubukorikori nk'ubw'abantu, ni byiza ko tubungabunga ingagi.

Inkende ni inyamaswa iba mu ishyamba kandi itangaje cyane uburyo yiruka mu biti kandi ku muvuduko uri hejuru. Ni inyamaswa zikunze gukurura bamukerarugendo, ni byiza ko turinda abarushimusi bangiza izi nyamaswa kugira ngo zibashe gufasha Igihugu mu iterambere.

Igikeri ni kimwe mu binyabuzima biteye ukwabyo aho kigenda gitaragurika, ni igikeri gikunze kuba ku gasozi ndetse no mu kabande kuko kigira n'ubumara bwinshi, usibye ko ari ikinyamahoro, ni byiza ko twita kuri ibi binyabuzima kugira ngo bikomeze bigire ubuzima bwiza.

Inguge ni kimwe mu nyamaswa nziza cyane kandi iba mu ishyamba idakunze kuba ahantu hari abantu, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, aho iteye nk'abantu, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa tuzirinda ba rushimusi.

Ishyamba ni ingirakamaro ku buzima bwacu aho ryifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka ndetse no kuba yamanura imvura, ni byiza ko tubungabunga amashyamba kandi twirinda abantu bayatema cyangwa bayatwika.

Inyoni y'amabara meza ubona ko iba mu ishyamba, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, ni byiza ko inyoni nk'izi zitabwaho kugira ngo zibashe kubungabungwa maze zitange inyungu ku gihugu ndetse no ku bantu muri rusange.

Ingwe ni inyamaswa y'inkazi cyane, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba uburakari bwayo ndetse n'uburyo iyo nyamaswa iteye. Ni byiza ko zibungabungwa zirindwa na ba rushimusi baba bakeneye kuzica kugira ngo zikomeze, dusigasire ibidukikije.

Inkende ni inyamaswa zihuruza abantu benshi cyane baje kureba ubuhanga bwazo ndetse n'uburyo zirukanka kandi zimeze nk'abantu, inyamaswa zizi ubwenge cyane ku buryo zijya kumera nk'abantu, ni byiza ko tubungabunga inkende.

Inzovu n'inyamaswa nini cyane iba mu ishyamba, aho itangaje, ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubunini bwayo, ndetse n'abandi bantu bose baje kwirebera ubunini bwayo, tunarwanye ba rushimusi baza kuzihiga kugira ngo zikomeze zibeho neza.

Inyoni y'amabara atandukanye, aho usanga ziba mu ishyamba zikurura ba mukerarugendo, ni byiza ko tuzirinda ba rushimusi baba bashaka kuzica, kugira ngo zikomeze zikurure ba mukerarugendo.

Inguge ni zimwe mu nyamaswa nziza cyane, aho ziteye nk'abantu, zikurura ba mukerarugendo benshi baje kureba ibyiza bizitatse, ni byiza ko izi nguge zibasha kwitabwaho kugira ngo zibashe kugira uburyo zikurura ba mukerarugendo.

Inyoni ubona ko y'amabara meza aho ikunze kuba mu ishyamba, ni byiza ko izi nyoni zitabwaho zikarindwa ba rushimusi kuko baba bashaka kuzica, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije.

Igisiga kiri mu bintu bikunzwe cyane aho gikunze kuguruka kandi kikaba ari kimwe mu bidukikije. Ni byiza ko bibungabungwa maze hakirindwa ababihungabanya kuko ari kimwe mu bidukikije.

Igisiga ni kimwe mu bintu kigomba kwitabwaho kuko ari ingirakamaro mu bidukikije. Aho gikunze kuguruka mu kirere nacyo gikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwacyo. Ni ngombwa ko twita ku binyabuzima.

Inkende ni kimwe mu nyamaswa nziza cyane kandi ifite ubuhanga bwo kugenda ku biti budasanzwe, aho ikurura ba mukerarugendo baje kwirebera ubwiza bwayo, bityo bigatuma igihugu kibona amadovize binyuze muri abo ba mukerarugendo baba baje kuzireba.

Ingagi imwe mu nyamaswa zishimishije cyane, aho zikunze kuba hejuru mu biti, aho zikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwazo. Ni byiza ko twita kuri izi nyamaswa kugira ngo zibashe kwinjiza amadovize menshi mu gihugu, kandi igihugu kibashe gutera imbere.

Inyamaswa z'ishyamba ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo igihe baje kureba inyamaswa kuko ziba zidasanzwe. Ni byiza ko izi nyamaswa zitabwaho, kandi zikarindwa ba rushimusi baba bashaka kuzonona kugira ngo zikomeze zikurure ba mukerarugendo, maze igihugu gitere imbere.

Inkende n' inyamaswa ziteye neza, aho zizi kwiruka ku biti ku muvuduko mwinshi, ni byo koko kuko zikurura ba mukerarugendo kugira ngo baze kwirebera ibyiza byazo.

Inyoni nziza kandi ifite amabara meza, aho zikunze kuba mu ishyamba kandi zigakurura ba mukerarugendo kugira ngo birebere ubwiza bw'izi nyoni zihebuje, ni byiza ko tubungabunga ibi biguruka kuko byinjiza amadovize mu gihugu.

Inyoni y'amabara meza ubona ko ari inyamaswa iba iri mu bwoko bw'ibiguruka ikunze kuba mu ishyamba ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, ni byiza ko tubungabunga ibi biguruka.

Inyamaswa zo mu ishyamba harimo nk'impara, isha, aho zikunze gukurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bw'impara, aho ifite amabara atangaje. Ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kugira ngo zikomeze zikurure ba mukerarugendo.

Inyoni itangaje cyane, aho ifite amabara atandukanye ikunze kuba mu ishyamba, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, kugira ngo babashe kuba bakumira, abantu barwanya izi nyoni, ni byiza ko hashyirwaho ingamba zo kurinda izi nyoni.